Iri ni iduka ry'imyenda rigizwe n'amashati, amapantaro, amakoti, amasengeri, amafime, inkweto, udukoti tugufi, amaremare n'amashati magufi n'amaremare.

Aha barimo kwamamaza imodoka igurishwa yo mu bwoko bwa suzuki yakozwe muri bibiri na cumi'umunani iragura amafaranga miriyoni cumi n'umunani n'imodokadoka y'umweru iri mu bwoko bwa kavatiri.

Iyi ni inoti nkuru y'u Rwanda ihwanye n'amafaranga ibihumbi bitanu yakorewe muri banki nkuru y'u Rwanda, hariho ingagi, imigongo, ibiti, ikirangantego.

Iyi ni note y'ibihumbi bibiri byo mu Rwanda, yakoreye muri banke nkuru y'u Rwanda, hariho agaseke hariho, umigongo, hariho ikirangantego cy'u Rwanda amazi, ibiyaga n'udusozi turi mur'icyo kiyaga, bigaragara ko ari nk'uturwa.

Resitora hari amata ari mu gikombe, ikirahure hari ibiryo, hari abantu babiri barimo gusangira nabo bafite ibiryo biteretse imbere yabo, hari na seriviyeti imbere yaho, hari n'isahani iriho umunyu.

Iyi ni bank statement y'umukiriya witwa AMEKI COLOR, igaragaza amafaranga yakiriye mu kwezi na balance y'amafaranga asigaranye kuri konte ye.

Aha hari abagabo bane bicaye ku mapikipiki bigaragara ko ari abamotari, bashinzwe gutwara ibicuruzwa runaka bafite ibikapu inyuma ku ma moto y'abo bagiye gutwarira abantu.

Uyu ni umuntu urimo kwamamaza inkweto. Inkweto za sandari ziciye bugufi, zifunguye inyuma, imbere zifite akantu gapfutse amano. Ziragura ibihumbi cumi na magana atanu ni onolayine shopingi wayikura kuri www.kigure.rw.

Iyi ni inzu iri ku isoko igurishwa ikodeshwa mu kwezi kumwe, yerekana jaridi irimo ibiti n'imyembe, ibiti bisanzwe hari igipangu hari pasiparume hari n'ibiti byegetse kuri icyo gipangu.

Aha nimuri supamaketi hagaragaramo icupa, umukobwa afashe mu ntoki rya mayoneze, iri imic ry'umweru pfukizo n'agafuniko k'ubururu iruhande hari ibindi biribwa bigiye bitandukana bigaragara nk'aho ari muri supamaketi.